Ni inzu ifite inkingi z'icyatsi hanitseho umwenda, iruhande rw'iyo nzu hakaba hari indi nzu nayo ikikijwe n'ibiti, haruguru y'aho hakaba hari umunara w'amashanyarazi n'ibindi biti biri iruhande yawo.

Ni umuhanda urimo icyapa, amapoti abiri y'amashanyarazi, umugore uhagaze munsi y'ubutaka bw'umweru, igikamyo cy'umweru giparitse mu muhanda iruhande rwacyo hakaba hagaze abasirikare babiri n'abandi baturage batatu.

Ni umuhanda uhagaze umupolisi imbere y'uyu mupolisi hari undi muntu uri kunyuraho wambaye agapira k'umweru n'ipantaro y'ubururu iruhande rw'uwo muntu ha akaba ipoto y'amashanyarazi ubusitani hari n'igiti.

Ni imodoka ebyiri ziri mu mabara y'umukara, ubururu n'umweru, hakaba harimo umuntu uri kuzinyura hagati wambaye isengeri y'umutuku, ipantalo y'ubururu n'inkweto z'umweru.

Umuhanda ugaragaramo abamotari babiri, imodoka imwe y'umweru, n'abanyamaguru babiri. Umwe muri abo banyamaguru, ari we wambaye agapira k'ubururu, yikoreye imifuka ibiri y'umweru.

Ni umuhanda urimo icyapa cy'umutuku n'umweru n'ibiti biteye hagati mu muhanda n'ipoto imwe y'amashanyarazi y'umweru, n'imodoka nyinshi ziri kunyura muri uwo muhanda n'izindi nyubako ziwukikije.